Ubucuruzi bw'inzoga buduteza imbere cyane, buduha amafaranga atuma imiryango yacu ibaho neza, bwinjiza imisoro mu gihugu tukubaka amashuri, amavuriro n'ibiraro biduhuza.

Ubucuruzi buduha amafaranga. Ubw'intebe, ubw'ameza tukaguramo amazu, tukibeshaho n'imiryango yacu, tukiteza imbere muri byose.

Ubucuruzi bw'inyama buteza imbere cyane, buduha amafaranga, buduha ibyo kurya, tukiteza imbere, tukagirira igihugu akamaro, n'imiryango yacu tukayigirarira akamaro.

Ubucuruzi buduha amafaranga butuma twibeshaho n'imiryango yacu, butuma igihugu gitera imbere n'abagituye, bakibeshaho bafite ubuzima bwiza cyane.

Ubucuruzi bw'inzoga buduha amafaranga, butuma twiteza imbere, butuma twishyura imisoro, igihugu kigatera imbere n'abanyarwanda bagatera imbere.

Ubucuruzi bw'imitako buduha amafaranga tukiteza imbere, tukagura ibyo dukeneye byose, tukarihira abanyeshuri minerivare. Natwe tukagura imirima amazu yo kubamo n'ibindi byinshi cyane.

Inyama zidutungira ubuzima, ziri mu biribwa byubaka umubiri. Inyama ni nziza cyane ziduha amafaranga tukiteza imbere, imiryango yacu ikabaho mu buzima bwiza.

Ubucuruzi bw'inzoga buduha amafaranga, bukinjiriza Igihugu cyacu. Ubicuruza nawe akabona amafaranga akibeshaho n'umuryango, agatunga agatunganirwa.

Ubucuruzi bw'inzoga budufitiye akamaro kanini cyane. Ducuruza inzoga tukiteza imbere, tukinjiriza igihugu cyacu kikubaka imihanda, amavuriro ndetse n'amashuri.

Ubucuruzi bw'inzoga ni bwiza cyane, butuma twiteza imbere, butuma twishyura amashuri y'abana, butuma twyubakira amazu, tukagura imirima, twitaho mu miryango.

Amafi ni meza cyane adutungira ubuzima yubaka imibiri yacu amafi, atuma tugira ubwenge, amafi aduha amafaranga tukiteza imbere tukagura ibyo dukeneye.

Intebe tuzicaraho mu mashuri, intebe tuzicaraho murugo, intebe turazigurisha ziduha amafaranga. Intebe zituma umuryango utera imbere, intebe zituma twicara neza.

Ubucuruzi bw'amaterefone ni bwiza cyane bworosha itumanaho, bugatuma tumenya amakuru ku gihe, tukitaba abantu tutari kumwe, tukamenya amakuru y'abari kure n'abari hafi.

Ubusitani bw'indabyo buduha amafaranga. Iyo abantu baje kwifotoza baduhaha amafaranga. Natwe twabafotora, bakaduha amafaranga. Bigatuma rero ubucuruzi bwacu butera imbere.

Intebe tuzicaraho, intebe ziduha amafaranga, intebe turazicuruza bakakaduha amafaranga tukiteza imbere, tugatunga imiryango.

Ibikoresho by'ubwubatsi bidufitiye akamaro kanini cyane, bituma tubona amafaranga, bituma dutera imbere tukubaka neza, tukaba heza kandi dutekanye.

Gucuruza ni byiza, biduteza imbere tugatunga imiryango yacu, gucuruza biduha amafaranga tukiteza imbere, igihugu cyacu kigatere imbere.

Ubucuruzi bw'amapikipiki buteza abantu imbere, budutwara neza cyane bukaduha amafaranga tukiteza imbere, igihugu kigatera imbere kubera imisoro binjiriza igihugu.

Ubucuruzi budufitiye akamaro kanini cyane, butuma tubaho neza, butuma tubona amafaranga tukagura amazu, tukagura imyambaro tukarihira amashuri abana bacu bakiga mu mashuri meza kandi batekanye.

Ubucuruzi buteza imbere cyane, buduha amafaranga tukabaho neza tukiteza imbere. Ubucuruzi butuma imiryango yacu igura imirima, ikagura amazu, tukabaho neza bishimishije.

Ubucuruzi buduha amafaranga, butwinjiriza imisoro, bukatubeshaho neza n'imiryango yacu.

Ubucuruzi buduhaga amafaranga, ubucuruzi bwinjiriza igihugu imisoro, kubabaka amashuri, amavuriro n'igihugu kigatera imbere.

Ibikoresho by'ubwubatsi bidufitiye akamaro kanini cyane, turabicuruza bikaguha amafaranga, tubyubakisha amazu, mu nzu yacu hagasa neza, tukiteza imbere, bikadutungira n'imiryango.

Ubucuruzi bw'ikawa ni bwiza cyane, butuma imibiri yacu ibaho neza, butuma igihugu cyinjiza imisoro, butuma abaturage biteza imbere bakabaho neza.

Gucuruza bidufitiye akamaro kanini cyane. Dutunga imiryango yacu, tukabaho neza, dutanga imisoro, tukishima, tukanezerwa ,tukagura ibyo dukeneye.

Gaze ni nziza ituma ibiryo biryoha, bikaribwa nta myotsi bigashya vuba. Igikoni kigasa neza kikarindwa imyotsi.

Ubucuruzi bw'inkweto ni bwiza cyane bwambika abantu benshi, abana ,abagore ,abagabo, abasaza, abakecuru, bakagenda mu muhanda banezerewe kandi basa neza.

Ubucuruzi bw'amakaro ni bwiza cyane. Amakaro atuma inzu zisa neza cyane, amakaro aduha amafaranga mu kuyikorera, mu kuyakora, twiteza imbere; imiryango yacu ikabaho neza.

Ubucuruzi bw'ibikapu ni bwiza cyane buduha amafaranga, ibikapu tubitwaramo ibintu abantu ntibabibone, ibikapu bituma twibeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi buteza imbere cyane, ubucuruzi butubeshaho neza, ubucuruzi buduha amafaranga, ubucuruzi butuma igihugu gitera imbere cyane, abagituye bakibeshaho.

Ubucuruzi bwa sikolo buduteza imbere cyane, turishima tukanezererwa tugasabana turi gusoma, bukaduha amafaranga tukiteza imbere imiryango yacu kubaho neza abana bacu bakabaho neza.

Ubucuruzi bw'amahoteri buduteza imbere, ba mukerarugendo basuye igihugu cyacu bacumbika heza, bakaryama heza bagatanga amadovize, atuma igihugu cyacu gitera imbere.

Ubucuruzi bw'inkoko buduteza imbere cyane, butuma tugira amafaranga tugatunga imiryango yacu, n'abana bacu bakabaho neza banezerewe. bagatora akazi bakaduhemba tukabaho neza.

Ubucuruzi ni bwiza buduha amafaranga cyane. Butuma twiteza imbere tukinjiriza Igihugu natwe tukibeshaho n'imiryango yacu. Abaturanyi bagahaha batagiye kure.

Ubucuruzi bw'ibitabo buduteza imbere butuma tujijuka, igitabo turagisoma tukaruhura umutwe tukishima tugaca imigani tugasabana.

Ubucuruzi bwamazu, buduha amafaranga tukitezimbere. Tukishyura amashuri ,tukishyura imisoro, tukabaho neza mu Rwanda.

Ubucuruzi bw'amahoteri buduteza imbere, ba mukerarugendo baza baje kudusura bakatwinjiriza amafaranga, igihugu cyacu kigatera imbere.

Ubucuruzi bw'amakamba buduteza imbere, turayakodesha bakajya gukurura ibiti tukabonamo amafaranga, tukakagura ibyo dukeneye byose mu buzima bwacu.

Ubucuruzi bw'inkweto ni bwiza cyane, inkweto ziturinda gusitara, zitumaga dusa neza, zituma twambara neza, ziduha amafaranga tukiteza imbere tukagura ibyo dukeneye.

Ubucuruzi buduha amafaranga, tukishyurira abanyeshuri amafaranga, tukiteza imbere, tukagura amazu, tukagura imirima, tukaguramo imyenda, tukagaragara neza.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, buduhaha amafaranga yo kwiteza imbere. Tukarihamo n'amashuri, tukaguramo imyenda, amazu, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho by'ubwubatsi, n'ibindi byinshi cyane.

Ubucuruzi bw'intebe ni bwiza cyane buduha amafaranga, tukiteza imbere tugatunga imiryango natwe tukicara heza kandi neza mu nzu yacu hagasa neza.

Ubucuruzi bw'imyenda buduha amafaranga, tukambara tukaberwa tugasa neza, tugatunga imiryango yacu n'igihugu kigasa neza.

Ubucuruzi bw' imyenda buduha amafaranga tukagura imirima, tukagura imodoka, tukiteza imbere muri byose, abana bakajya mu ishuri banezerewe.

Ubucuruzi bw'imbaho buduteza imbere. Dukuramo ibitanda, tugakuramo intebe. Dukoramo ameza, tukayagurisha maze tukabona amafaranga, tukaguramo imyenda.

Ubucuruzi bw'amagaze bubamo amafaranga menshi cyane. Bwinjiza imisoro bukaturinda imyotsi, bugateka ku buryo bwihuse kandi neza.

Indobo tuyibikamo ifu, tuyihahisha ibirayi, ibijumba, ibidodoki, ibishyimbo, tukayibikamo ifu, bituma ibintu byacu bitangirika.

Ubucuruzi bw'amakanzu ni bwiza cyane, buduteza imbere. Ikanzu uyambara mu bukwe, uyambara mu rugo, aho ugiye hose. Iyo ucuruje ubona amafaranga ugahaha ibyo ukeneye, ukibeshaho n'umuryango.

Ubucuruzi bw'inyanya budufitiye akamaro kanini cyane. Inyanya ziduha amafaranga, inyanya zikadutungira ubuzima tukazirya ari mbisi, ziturinda uburwayi tukazirya zitetse bityo imibiri yacu ikabaho neza.

Ubucuruzi bw'imineke budufitiye akamaro kanini cyane. Imineke turayirya, imineke turayigurisha ikaduha amafaranga tukibeshaho n'imiryango yacu.

Ubucuruzi butanga amafaranga, butuma twiteza imbere, twishyurira abanyeshuri amafaranga, tukarya neza, tukubaka amazu, tukiteza imbere muri byose.

Ubucuruzi bw'irayi butanga amafaranga menshi cyane ,bukabiteza imbere, bakiteza imbere bateza igihugu imbere, natwe natwe tukitezimbere n'imiryango yacu.

Ubucuruzi bw’ibirayi buduha amafaranga, turabigura tukabirya, bigatunga imiryango, tukabicuruza. Uragura imirima, amazu duturamo, amazu y’ubucuruzi, twese tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'imodoka buduteza imbere cyane, butuma tubona amafaranga watumaga, tubona akazi, tukibeshaho imiryango yacu. Butuma iterambere ryihuta, kandi tukagenda tukagera ahantu byihuse.

Kurya kuri matora bituma tudacika umugongo, bituma dusinzira neza, bituma turyama heza. Matora iduha amafaranga tukiteza imbere, n'igihugu kikabona imisoro.

Gucuruza neza biduha amafaranga tukiteza imbere, Igihugu na cyo kikinjiza amafaranga, imisoro, amahoro, kubaka imihanda ndetse n'amashuri.

Ubucuruzi bw'amazu buduha amafaranga menshi cyane. Butuma twiteza imbere tukabaho neza, tukinjiriza igihugu natwe tukinjiza. Tukagura ibindi bikoresho dukeneye mu buzima bwacu.

Telefone ituma tubika amafaranga neza, iturinda ibisambo, ituma tujya guhaha, tugakoresha amafaranga neza, tutayasesaguye, tukishyurana neza tudakoze ku mafaranga mu ntoki.

Gutwara abantu mu modoka ni byiza cyane, ibatwara neza byihuse bakishyura amafaranga, bigateza imbere abantu nabo bakiteza imbere, bakishyurira igihugu imisoro nacyo kigakora imihanda, kikubaka n'amavuriro.

Guteka kuri gaze ni byiza cyane, bituma tubona ibicanwa, bituma turya ibiryo byiza bidafite imyotsi, tukabirya vuba, bigashya vuba kandi neza, amasafuriya yacu agasa neza aho duteka hagasa neza.

Ubucuruzi bw'imodoka ni bwiza cyane buduha amafaranga, buteza igihugu imbere dutanga imisoro tukubaka amashuri.

Ubucuruzi bw'ibiti budufitiye akamaro kanini cyane, tubigurisha ari inkwi, tubigurisha ari imishingirizo. Duhinga ibishyimbo, tukabishingirira, bikera cyane, tukiteza imbere mu buhinzi.

Ubucuruzi bw'intebe buduteza imbere, buduha amafaranga, tukicara heza, tukaba heza, tukiteza imbere kubera ayo mafaranga.

Kubika imyanda bituma tugira isuku, ibyo dutoraguye hasi byose tubiterera mu cyabugenewe, bituma igihugu gisa neza mu muhanda, mu nzira tukagaragara neza tukagira isuku muri byose.

Ubucuruzi bw'imyenda buteza abantu imbere. Butanga amafaranga, bukambika abantu neza, bukinjiriza igihugu imisoro ituma twubaka imihanda n'amavuriro.

Ubucuruzi bw'imyenda buduha amafaranga, budutungira ubuzima tukibeshaho neza tukiteza imbere, tukagura imirima amazu yo kubamo n'ibindi byinshi cyane.

Indabo zigira ahantu neza indabo turazicuruza zikaduha amafaranga, tukazikoresha mu misa no mu rusengero mu gushyingura abantu, tukiteza imbere.

Koperative ni nziza cyane, koperative zirungura zituma twiteza imbere koperative zituma dutera imbere, mu mibereho yacu no mu miryango yacu.

Ubwubatsi bw'amazu budutezaga imbere, buduhaga amafaranga tukibeshaho, tukinjiriza igihugu natwe tugatunga tugatunganirwa kandi tukarara heza dutekanye.

Ubucuruzi ni bwiza cyane buduha amafaranga, butubeshaho n'imiryango yacu, bwinjiriza igihugu imisoro, kubaka amashuri, imihanda n'amavuriro.

Ubucuruzi bw'imyenda budufitiye akamaro. Turambara tukaberwa, tukabona amafaranga, tukabona ibyo kurya, tugasa neza, tukiteza imbere muri byose.

Ubucuruzi bw'amasafuriya , buduha amafaranga , turayakodesha, tukayatekamo , tukayagurisha , bayakoresha mu bukwe , tukiteza imbere.

Igitunguru ni cyiza kiturinda indwara kidutungira ubuzima, igitu kiduha amafaranga tugatunga imiryango yacu natwe tukibeshaho tunezerewe.

Ibishyimbo bidutungira ubuzima. Ibishyimbo biduhaha amafaranga. Ibishyimbo bituma twibeshaho, tugatunga imiryango yacu, tugatunga tugatunganirwa.

Umukeka ni mwiza cyane tuwicaraho, tukawurobanuriraho ibishyimbo, tukawusasa mu nzu neza, uduha amafaranga iyo tuwucuruje tukabaho neza mu buzima.

Ubucuruzi butuma twiteza imbere, ubucuruzi buduhaha amafaranga tugatunga imiryango yacu ,ubucuruzi buturinda ubusambo ,tukiteza imbere n'igihugu cyacu kikaba mu mutekano.

Inkweto zituma tuba abasirimu, tugenda mu muhanda dusa neza iyo tuzigurishije tubona amafaranga, tukaguramo imyenda tukiteza imbere tugacuruza abana bacu bagasa neza.

Gutera ipasi ni byiza cyane, wambara umwenda umeze neza cyane, gutera ipasi biduhahaga amafaranga, bikaduteza imbere, tukabaho mu miryango yacu tunezerewe.

Ubucuruzi bw'imyeda ni bwiza cyane. Buteza imbere buduha amafaranga tugatunga imiryango yacu, tukishyura amashuri y'abana tukiteza imbere.

Ubucuruzi bw'amabati buduha amafaranga. Amabati atuma tuba heza, amabati atuma tutanyagirwa, tukayagurisha tukiteza imbere, tukubaka neza tutanyagiwe.

Ibishyimbo bidufitiye akamaro kanini cyane: biduha amafaranga, tubiryagamo imboga, tubiryagamo ibitonore, ibishyimbo turabicuruza bikaduha amafaranga tukubaka amazu meza.

Ubucuruzi bw'imyenda y'abana buduha amafaranga, tukambika abana bacu neza bakaberwa, bakajya gusenga, natwe tukibeshaho tukinjirariza n'igihugu imisoro.

Imigati turayicuruza, imigati turayirya, imigati iduha amafaranga, tukagurisha, tukagura ibyo kurya n'ibyo kwambara.

Mu bucuruzi bw'amazu duhabwa amafaranga tugahaha ibyo dukenewe byose, twinjiriza igihugu y'umusoro bigakora imihanda kikubaka n'amavuriro.

Ubucuruzi bw'imboga budufitiye akamaro kanini cyane, imboga zitunga imibiri yacu, ziturindira abana bwaki, ziduha amafaranga, tukiteza imbere tugatunga imiryango yacu.

Imigati idutungira ubuzima, idutungira abana, igatuma twiteza imbere. Iduha amafaranga, tugatunga imiryango yacu na twe tukibeshaho, n'Igihugu cyacu kikabaho neza.

Imbuto ni nziza cyane zidutungira ubuzima, zidutungira abana bacu, ziduha amafaranga tukiteza imbere n'imiryango yacu.

Ikiduki ni ingirakamaro cyane, bituma tubika amazi neza, bituma tubikamo inzoga neza, tukabicuruza, tukiteza imbere, bikaduha amafaranga tukibeshaho n'imiryango yacu.

Imyenda iduha amafaranga turayicuruza, turayambara tukagaragara neza tukabona amafaranga tukiteza imbere tugatunga imiryango.

Ubucuruzi bw'imyenda buduteza imbere cyane, buduha amafaranga, butuma twiteza imbere, tugatunga imiryango yacu tukishyura amashuri y'abana, tugateza igihugu imbere.

Ubucuruzi buduha amafaranga, amakanzu urayambara ukaberwa, ukayambika umwana, ukayambika umugore, ukaguramo imyenda, ukaguramo ibikoresho by'abana n'ibindi byinshi.

Ubucuruzi bw' imigati budufitiye akamaro kanini cyane, turacuruza tukabona amafaranga twagura ibyo kurya, tugatera imbere imiryango yacu ikabaho neza.